Abana benshi cyane bambaye udupira dusa, bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu mu irerero. Hari abandi babyeyi bacikiye abandi bana bakiri bato, bahagaze bigaragara ko bari kubaganiriza.

Ku ishuri abana babiri bari mu muryango, umuhungu arimo kurunguruka hanze ndetse umukobwa ari kwinjira, muri iryo shuri hashanyimo ibishushanyo bitandukanye ahagaragara inyoni.

Amacupa manini cyane, ay'umuhondo, ay'umutuku, gusa yose handitseho amagambo amwe, bigaragare ko ayo macupa abitsemo ikintu kimwe.

Ibishushanyo bizwiho gufasha abanyeshuri biga mu myaka y'inshuke ndetse hari igikarito kinini kirimo amasaro, hari umwana mutoya ari kugitsukaho.

Ibishushanyo by'imfashanyigisho bifasha abana biga mu mashuri y'inshuke. Ni ibiriho imodoka ya rukururana, ndetse n'ikindi kimeze nk'igiseke.

Abana b'abanyeshuri bicaye hamwe, umwe afite mudasobwa mu ntoki undi yambaye igikoresho bifashisha bareba cyangwa se bafotora ahantu kure ndetse undi afite ikayi ari kwandika.

Akanyugunyugu k'amabara meza cyane hariho umuhondo, umweru ndetse n'umukara. Kaguye ku rurabo rwayangitse, kandi ako karabo gasa nk'icyo kinyugunyugu.

Igipupe cyambaye imyenda irimo amabara atandukanye, harimo umutuku, icyatsi w'ubururu ndetse n'umuhondo, gifite imisatsi myinshi cyane ndetse n'amenyo kiri guseka.

Abana b'abanyeshuri bicaye ku meza amwe, baraganira bungurana ibitekerezo bigaragara ko baganira ku ngingo runaka, bose bazengurutse ameza kandi bambaye imyenda isa.

Insina iringaniye itari nini, itari ntoya, ifite amakoma atanu, imbere yayo hari ihene ntoya ndetse imbere y'iyo hene ntoya, hagaragara ihene nini.

Inyubako ifite impande ebyiri ariko imwe ireba mu gihandade cyayo, hateretse intebe ebyiri hanze biragaragara ko ari ibiro bikorerwamo n'abayobozi batandukanye.

Icyumba giteguye cyane kirimwo ameza ndetse kikabamo n'amatara ku gisenge cy'icyo cyumba, ayo matara arire kwaka mweru ndetse n'ubwo giteguye n'intebe ariko nta muntu n'umwe wicayemo.

Inyubako y'amashuri abanza, ifite imiryango ku mpande imbere, iyo miryango ibiri yose irakinguye ariko nta bana bahari ndetse nta n'undi muntu uhari.

Icyumba k'ishuri cy'amashuri abanza harimo akabati gakoze mu biti, harimo ibitabo. Imbere ku gikuta hari imfashanyigisho y'igikarito bashushanyijeho ibikoresho byifashishwa mu buryo bw'isuku.

Amashuri y'amashuri abanza ashushanyije ndetse n'indi foto iriho abana bari kumwe n'umubyeyi wabo, bigaragara ko bagiye ku ishuri ndetse hari n'indi foto iriho abantu batatu bahagaze, imbere yabo hicaye umugore.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako nyinshi ndetse n'ubusitani bwiza haragaragara idarapo ry'Igihugu ndetse amabati ari kuri izo nyubako ni ubururu.

Inyubako y'ishuri ry'amashuri abanza, ifite ibyumba byinshi kubera ko yubatse mu buryo bw'impuruture, ikindi kandi isakaje amabati ateye irangi ry'ubururu.

Urubyiruko rwinshi cyane rutonze umurongo mu muhanda, rwambaye imyenda isa amapantaro asa ndetse n'imipira iciye amaboko isa, bari mu muhanda uri hagati mu ishyamba imbere yabo hari imodoka ebyiri.

Abana b'abanyeshuri bari gusakuza mu ishuri abandi barizihiwe bagiye bicaye mu matsinda gusa bose bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amakabutura bisa, inyuma ku kibaho handitseho imfashanyigisho bigaragara ko nta mwarimu uri mu ishuri.

Abantu benshi bari kugenda imbere hari abambaye amajiri ndetse umwe w'umugabo yambaye ikasike, ab'imbere bambaye amajiri asa ndetse n'ab'inyuma bambaye amajiri asa.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abakobwa, abasore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda isa, bambaye n'amapantaro, bamanitse amaboko bigaragara ko ari imyitozo barimo kubaha cyangwa bakaba barimo gusenga.

Abantu bicaye bacecetse kandi bakurikiye ni abagabo bicaye imbere y'ameza ndetse bari bafite n'impapuro imbere ya buri umwe wese bigaragara ko bafite ibiganiro bahabwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barakoresha mudasobwa bose bambaye amashati y'umweru imbere yabo ku meza buri munyeshuri imbere ye hari icupa ry'amazi.

Umugabo ari kumwe n'abana mu ishuri ndetse abanyeshuri bafite agapapuro mu ntoki, na ho umwe uhagaze imbere yabo afite na bibiliya ndetse uwo mugabo yambaye ishati y'umweru itebeje.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bose bambaye impuzankano imwe. Bicaye mu matsinda bafite mudasobwa imbere yabo buri wese ari kureba muri mudasobwa ye, abahungu n'abakobwa bose bagiye bicaye mu matsinda atandukanye.

Umugore wambaye imyenda isa, ateze igitambaro cy'ubururu, aritegereza telefone ye aho yayirambitse imbere nubwo atari kuyikozaho amaboko.

Abanyeshuri bambaye amakanzu ameze kimwe ndetse n'ingofero, biragaragara ko bizihiza ibirori byo gusoza amashuri ya kaminuza.

Abanyeshuri bakoze ikirori gisoza amashuri yabo ya kaminuza bajugunye ingofero mu mutwe ndetse barimo kurangamira mu kirere bazitegereza hakaba hagaragara n'amahema hicayemo abandi banyeshuri.